Ikawa iteye ahantu heza ku murongo iri kugaragara neza iratohagiwe yamaze kuhirwa, yitaweho neza kugira ngo izatange umusaruro uhagije haba ku muhinzi ndetse n'abacuruzi.

Abantu benshi higanjemo urubyiruko bari gukura ingemwe ziri mu bihoho bazishyira mu dukangara, inyuma yabo haparitse imodoka nziza ifite ibara ry'umweru iri kugaragara neza.

Ikawa ihinze neza ku murongo, urabona ko yitaweho iratohagiye kugirango izatange umusaruro uhagije. Umusozi mwiza uriho amatarasi y'indinganire ndetse n'ibiti bikeya, n'igihingwa cy'urutoki kiri kugaragara neza.

Imiti myiza yamaze gutunganywa iteretse ahantu heza mu macupa afite amabara atandukanye ariho ibyapa, amacupa amwe apfundiki imifuniko y'umuhondo ayandi apfundikishije imifuniko y'icyatsi ni imiti yatunganiyijwe kugira ngo izavure inyamaswa ndetse n'amatungo.

Amakarito afunze neza ari mu ibara ry'umutuku ndetse afiteho n'ibara ry'umukara, ari kugaragara neza, arimo imiti yamaze gutunganywa kugira ngo izifashishwe mu kuvura inyamaswa indwara zitandukanye.

Ahantu heza, hateguye neza, hari kugaragara neza, harambitse ishyashi y'umweru, irimo imiti y'ibinini bifite ibara ry'umuhondo, yamaze gutunganywa kugira ngo izifashishwe mu kuvura amatungo.

Amacupa meza y'umukara ariho ibyapa apfundikije imifuniko y'umutuku, apanze ku murongo amwe hejuru y'andi. Harimo umuti wamaze gutunganwa na ba veterineri kugira ngo, uzifashishwe mu kuvura amatungo.

Imiti yamaze gutunganywa neza iri mu macupa y'umweru apfundikije imifuniko y'umweru, afiteho ibishushanyo igaragaza neza ko ari imiti yifashishwa mu kuvura amatungo ndetse n'inka.

Amacupa menshi atondetse ku murongo, afite ibara ry'umuhondo, ndetse n'icupa rimwe riteretse ahitaruye ry'umuhondo ripfundikije umufuniko w'umuhondo, ririmo umuti wamaze gutunganywa kugirango ngo uzifashishwe mu kuvura amatungo.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, barishimye, barizihiwe, harimo abagabo n'abagore, bafite ibipapuro by'umweru mu biganza byabo, imbere yabo hari ingurube nziza nyinshi cyane ziri mu kigero kimwe, ziri kurishya zizihiwe.

Abantu benshi bicaye ahantu mu gashyamba, bamwe bashinze amasuka bicara ku mihini, higanjemo urubyiruko barimo kuganira barizihiwe, imbere yabo hahagaze umusore umwe wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro yumukara, arimo kubaganiriza.

Ibigori byamaze gusarurwa, ibyatsi byiza biri kugaragara neza ko byitaweho kugirango bizabashe gukurwamo ibiryo by'amatungo, atange umusaruro uhagije ku bantu.

Agahanda kari mu ishyamba ririmo ibyatsi byinshi bitohagiye biri kugaragara neza, abantu batatu bari kugenda mu muhanda babiri bari imbere ni abazungu bambaye amapantaro y'umweru ndetse bambaye n'ingofero.

Ishyamba ryiza, riri kugaragara neza, ririmo ibiti bimwe bifite amababi make, byakuze, biri kugaragara neza ndetse n'ibindi bikiri bitoya, harimo n'ibyatsi byinshi byifashishwa n'abavuzi ba gihangaga, mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibiti byakuze bigeze igihe cyo gusarura, bifite amababi meza atohagiye biri kugaragara neza. Hino yabyo hari ibyatsi bigufiya bitohagiye, biri kugenda bikura bigaragara neza.

Imbuto nziza ziteye ahantu heza zeze za orenje ziri kugaragara neza cyane. Umugabo wambaye ijire y'umukara ndetse n'umupira w'amaboko magufi imbere ye hariho igikarito kirimo orenji zamaze gusarurwa.

Inyanya nziza zitaweho ziri mu murima, harimo izeze z'umutuku ziri kugaragara neza ndetse n'izitarera zisa icyatsi, umugabo wambaye itaburiya y'icyatsi uri kugenda asoroma inyanya zitukuye zeze azishyira mu gapaniye.

Ibiti byakuze by'inganzamarumbu binini cyane, umugore uhagaze mu mutabo afite igitambaro yambaye agapira k'amaboko magufi, akenyeye igitenge afashe itiyo y'amazi mu biganza arimo gufuhirira imyaka.

Ibyatsi byiza bitohagiye byakuze biri kugaragara neza. Ihene nziza zifite amabara y'umweru zirimo kurisha ibyatsi zifite amahembe, umugabo uhagaze imbere yazo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero.

Ikiraro cyubakishije ibiti ndetse kizitije amakoko, inka nziza y'umweru n'umukara iri kugaragara neza iri mu kiraro ndetse hirya yayo hari n'iy'ikindi kiraro kirimo inka ifite umweru n'ikibamba.

Umusore wambaye amarinete ufite umusatsi muke, ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, iruhande rwe hari ikiraro kirimo inka nziza z'ibihogo, zirimo kurisha ibyatsi zizihiwe cyane, imwe irimo kumureba.

Inyubako nziza irimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gutubura no gutunganya imbuto, abagabo bahagaze bambaye amataburiya y'umweru n'ingofero z'umuhondo, bakora akazi ko gutobura imbuto kugira ngo zigere ku bahinzi zujuje ubuziranenge.

Ibigori biri mu gitebo byamaze gusarurwa n'ibindi biri mu mufuka ndetse n'umugore wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi uri gutsindagira ibigori mu mufuka, hino ye hahagaze umugore ukenyeye igitenge, ufashe umwana mu ntoki.

Inyama zirambitse ahantu ku meza, zirimo ibice bitandukanye, umugabo wambaye bote, ipantaro y'umukara ndetse n'itabriya y'umweru, urimo kugenda azikoraho kugira ngo azipime arebe ko zujuje ubuziranenge.

Ikiraro cyubakishije ibiti kidasakaye kirimo inka nyinshi, umugabo uhagaze wambaye itaburiya y'umweru afashe umurizo w'inka, ndetse undi mugabo ari gushyiramo umuti wambaye itaburiya y'ubururu.

Imbata ifite ibara ryiza ry'umweru ndetse n'umukara, iri koga mu mazi meza menshi ari kugaragara neza, imbata ni inyamaswa ifite amababa ishobora no kuguruka.